Uburyo bw'imihahiranire ikoresha ikoranabuhanga ni uburyo bwizewe bufasha abantu kugira ngo bahahirane ndetse bikanagabanya uburiganya mu bijyanye n'ubuguzi ndetse no kugurisha ibicuruzwa bigiye bitandukanye.

Ibyapa byo ku mihanda bifasha kwamamariza ba nyir'imishinga ndetse no guteza imbere ibikorwa bagenda bakora bya buri munsi, cyane cyane ko abanyura muri uwo muhanda bagenda basoma ibyo byapa ndetse byaba bifite zimwe muri serivisi bakeneye bakaba bajya kuhahahira.

Ubwishingizi bwa mituweli ni ubwishingizi bwiza bufasha umuntu kuba yabona serivisi y'ubuvuzi igihe ahuye n'indwara runaka, ndetse bikanafasha umuyagihugu kugira ubuzima bwiza, kuba atagira ipfunwe ryo kwivuza igihe yahuye n'uburwayi.